Umuganga uri gukoresha igikoresho cy'ikoranabuhanga, bakoresha mu gusuzuma umurwayi, ngo barebe uburwayi yaba arwaye cyitwa mikorosikopi, kikaba gifite ubushobozi bwo kureba mu mubiri w'umuntu, kikareba ikibazo umubiri ufite.

Ibitanda byinshi biri ahantu kwa muganga. Igikoresho abantu baryamaho. Hakaba hari na supanete cyangwa inzitiramibu. Igikoresho bakoresha bari kurinda imibu yatuma haza uburwayi bwa malariya.

Imiti itandukanye ikoreshwa mu kuvura abantu barwaye. Akaba umuntu iyo arwaye ajya kwa muganga cyangwa muri farumasi, bakayimuha maze nyuma akayinywa bitewe n'uko bayimutegetse akaza kumererwa neza.

Ikimera kitwa kameruni, kikaba kiribwa n'inka, ndetse n'andi matungo nk'ihene, intama, n'andi matungo magufi, yororerwa mu rugo, kikaba kera mu butaka, nta kindi kimaze, uretse kuribwa n'amatungo.

Ubwoko bw'ibiti byitwa cyimbazi, byera indabo z'umuhondo, bikaba bisharira cyane, inka zirabirya n'amahene ikindi iyo bikuze ibiti byabyo barabifata bakabishingiriza ibishyimbo cyangwa kubizitiza ahandi hantu.

Ikimera cyiza kimeze nk'ururabo abantu bakoresha mu gutaka urugo, akayira, n'ahandi hantu heza. Kuko bituma ahantu hasa neza hakaza umwuka mwiza. Bikoreshwa cyane cyane ahantu nko ku rusengero, ku mashuri, no mu ngo z'abasirimu.

Igiti kitwa umusave, kikaba ari igiti kivamo imbaho, cyangwa ibiti bikoreshwa mu gihe cyo kubaka inzu, cyangwa ikiraro, ikindi bikaba iyo bikiri bito, birandamo imboga zitwa ibishushu.

Ikimera cyangwa igiti cyo mu bwoko bw'indabo, gikura kikazana indabo z'umweru. Akenshi inzuki zijyamo guhaha ibyo kurya cyangwa se zikoramo ubuki.

Itaka riri kuvamo ibishyimbo, akaba ari igihingwa bafata bakagishyira mu itaka nyuma y'igihe gito, kigatangira kuzamura ijosi cyangwa ikimera maze kikazera, nyuma bakagishingirira kikavamo ibishyimbo byinshi.

Ubwoko bw'ikimera kizana utubuto dusharira kikaba ari kimwe mu bintu bikunda gukoreshwa cyane mu cyaro, mu buvuzi gakondo. Igihe umuntu arwaye mu nda bakamuha iyo miti bayimuhamuriye akaza kumererwa neza.

Ubwoko bw'ibimera byakoreshwaga mu Rwanda rwa kera nk'umuti, kuko ubuvuzi butabagaho habagaho ubuvuzi gakondo, ibi bimera byakoreshwaga mu kuvura abantu barwaye indwara zitandukanye bagakira.

Igiti cyitwa ikibonobono kikaba gikoreshwa mu gihe gikuze bakagitera nk'inkingi mu gitoki, kugira ngo kitagushwa n'umuyaga, mu gihe cy'imvura.

Ubwoko bw'igiti kigira amacumu kikaba ari igiti gikunda kuba kiri mu ishyamba cyangwa mu rugo, gituma haza igicucucucu bigatuma abantu bagira umwuka mwiza aho mu rugo icyo giti kiri.

Ibyatsi bimera ahantu mu ishyamba, bikaba byifashishwa mu gusasira imbuto zitandukanye, zirimo pavuro, intoryi, inyanya, n'izindi bikaba bizirinda kumeramo ibyatsi byazangiza.